Ni icyapa cy'ubwishingizi kiri mumagambo yanditse mumabara atandukanye, arimo icyatsi umweru, hari ibishushanyo biriho bifite umutaka uri mu ibara ry'icyatsi.

N'icyapa cyamamaza kiriho umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bari kumwenyura banditse bafatanya k'urutugu, akaba ateze igitambaro m'umutwe gitangizwa n'amagambo agira ati: ibihe nk'ibi.

Icyapa kinini cyamamaza kiriho ifoto y'umugore ufite imisatsi miremire, washyize ikiganza mugahanga yegamye mu ntebe iriho n'umusego.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Icyapa cyamamaza. Kirimo umutaka munini w'ubururu, utwikiriye inzu nziza y'icyerekezo, igizwe n'amabara y'umweru, umukara, ndetse n'ibirahuri.

Ni icapa kinini cyamamaza, kiriho amafoto abiri y'abagabo bambaye amakote ndetse n'amashati y'imyeru bigaragara ko bafite akanyamuneza muri bo.

Ni icyapa kinini kiriho amagambo yo mu indimi z'amahanga, kiriho imodoka inyuma yayo muri butu, hari umugore uryamye hejuru y'umugabo wambaye ijinkisi y'ubururu.

Icyapa cy'ubwishingizi kiri mu mabara atukura ndetse n'umukara, ariko inyuma yacyo harasa n'umweru handitseho amagambo avuga ngo sonarwa.

Icyapa cyamamaza kiriho ifoto y'umugabo wogoshe akamaraho umusatsi ari kumwenyura, yambaye ishati nziza y'umweru ndetse na karavati y'umukara.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Iki ni icyapa cyamamaza. Kiriho ifoto y'umugabo mukuru uri kuramukanya n'umwana, aho bahuje ibipfunsi ibi bizwi nko guhana amacensi.

Abantu batatu bahagararanye, barimo abakobwa babiri bari kumwenyura bose bambaye imyenda y'umukara, umugabo uri hagati muri bo, ari kuvuga bigaragara ko hari abo ari kubwira

Telefoni igaragaza ibarara rito ry'icyatsi, n'irindi rinini ry'umweru, handitsemo amagambo avuga ngo : kuri konti zanjye : kohereza kuri konti ya zigama, ndetse n'indi yanditseho ngo kohereza kuri konti z'andi mabanki.

Iduka ry'imyenda mishyashya yiganjemo iy'abigitsina gore, yose ipanze neza ku murongo ku buryo uje kugura bimworohera kureba neza ndetse no guhitamo uwo yifuza.

Ni iduka ry'imyenda itandukanye, umurongo ubanza uriho ikoti n'umupira w'amaboko maremare n'undi ufite ingofero, hasi harimo amashati ndetse n'imipira.

Ni abazungukazi babiri bari kuganira baseka, umwe afite telefone mu ntoki, undi afite igikoresho cyishyurirwaho amafaranga hifashishijwe ikarita. Imbere iruhande rwabo hari icyapa ndetse hakaba hari n'imyenda.

Iyi ni inyubako ariko ikaba igaragaza ibaraza ryayo, yicayemo abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umukara ndetse n'ikoboyi, undi kandi nawe yambaye iby'imikara.

Umukobwa ari mu nzu ku meza hateretse ibikapu byinshi ari kubirebamo amwenyura, kimwe muri byo gifite ibara ry'umutuku naho utundi turi ku ruhande dufite amabara y'umukara.

Iyi foto iragaragaza ahantu bacuruzwa hari abantu bari guhaha hari aho ubu abantu bishimye aho umuntu afite ibyagiye kwa mu ntoki hari naho umuntu atishimye.

Iduka ry'imyenda rinini ryagutse, hari imyenda ipanze mu tubati ku murongo ku buryo bikorohera guhitamo, hari n'ibishushanyo byagenewe kuyambikwa kugira ngo ngo ugura abone uko awambaye yaba ameze.

Ipoto rishinze iruhande rw'umuhanda, hejuru hariho itara ndetse n'insinga zijyana amashanyarazi ahandi munsi, hari umugabo uri gutambuka wambaye umupira n'ipantaro y'umukara.

Ubucuruzi buciriritse, nabwo bushobora gutuma umuntu yiteza imbere. Umugore uri gutanga ibiribwa, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ubona ko ari mu nzira y'iterambere.

Ni iduka ry'imyenda rigaragaramo imyenda itandukanye. Imwe iri mo hagati, aho igiye ipanze ku murongo, indi ibambye ku bikuta, yaba iy'amaboko magufi ndetse n'iy'amaremare.

Ni imirimbo yiganjemo utunigi, udusaro ndetse n'udukomo. Iri mu mabara atandukanye; ubururu, umuhondo, umutuku. Ikaba iri mu nkoko ikozwe mu mukenke.

Ni nkweto zifunguye ziri mu iguriro muri zo hari izifite utubara tw'ubururu n'umukara izindi zifite amabara y'umukara gusa mu gihe hari n'izifite amabara y'umukara n'umweru.

Imodoka nshyashya, nziza, iri mu mbuga nini, ahisanzuye. Inyuma yayo hari urukuta ruzengurutswe n'icyuma kirekire cy'umukara. Hakurya yayo hari igiti cy'umuvumu.

Ni modoka isa neza iparitse iri ikirango cyanditseho Kigali inyuma y'imodoka hari kugaragara ibiti bibiri ndetse inyuma y'ibi biti bibiri hari kugaragara inyubako yubakishije amatafari.

Ni imodoka nshyashya ifite amapine y'umukara, inacanye amatara, iparitse imbere y'inyubako yubakishijwe ahanini n'ibirahure ndetse n'amakaro y'umweru agiye ayizengurutse.

Abagabo batatu bari gufata ifoto bafite urufunguzo mu ntoki rwanditseho akagera moto, inyuma ya bo haparitse ibinyabiziga bibiri.

Ni nyubako itanga serivise, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru wakira abamugana. Hari umugabo uje ateruye umwana, akaba yambaye rinete ndetse n'ipantaro y'umukara.

Imodoka y'umukara iri mu kibuga kitegeye, ibirango byayo bihishwe n'akabara k'umweru inyuma hari urukuta rurerure rw'amabuye ruzengurutswe n'utwuma.

Abagabo babiri bafashe ku kintu kiri mu ishusho yurufunguzo inyuma yabo hari imodoka nshyashya iri mu mabara yumweru umwe muribo afite igitabo mu ntoki.

Aba ni abagabo batanu bahagaze bari kwifotoreza ku gifunguzo kinini, inyuma yabo hari ibinyabiziga bitatu, umugabo umwe akaba ari kwitaba telefone muri aba.

Amaboko yombi agaragaraho ibice bito bigana hepfo. Intoki ziri kumeza, nayo ariho amafaranga akoreshwa mugihugu cya Amerika, ariho umugabo ufite imisatsi miremire.

Amafaranga y'u Rwanda, igiceri cya makumyabiri. Giteretse ku meza! Igice kiri kugaragara ni ikiriho ikirangantego cy'u Rwanda, muri cyo harimo agaseke gatoya. Kigizwe na kabiri ndetse na zeru.

Akarahure kari hagati y'uwakira ndetse n'utanga, ibiganza biri guhererekanya amafaranga gusa amasura yabo ntabwo ari kugaragara uretse umuntu umwe uri iruhande inyuma y'ikirahure uri kugaragara.

Aya ni amafaranga y'u Rwanda yifashishwaga hambere, akaba ari mirongo itanu, imwe iratwereka ku kirango k'icyo giceri ndetse indi ikatwereka ku ishaka ryacyo.

Ni umugabo wicaye imbere ye hari ameza hariho amafaranga anyuranye yaba akoreshwa k'umugabane w'iburayi ndetse no muri amerika afite akamashini kari kubara ayo yose.

Amafaranga y'u Rwanda igihumbi. Imbere hayo hari kugaragaraho inkende, inyuma hariho amazu ndetse n'umugabo w'intore uri kubyina. Yanditseho rimwe ndetse n'amazeru atatu.

Umugabo wari wicaye imbere ya kompiyuta, kompiyuta ayitunze urutoki igice kimwe handitseho serivisi z'irembo, ikindi gice handitseho andi magambo ariko hari igishushanyo cy'ikiganza gifite telefone ya simatifone.

Ni mu iguriro ry'amata, hari akameza kagaragara igice gito k'umweru, imbere haragaragara akagega kajyamo amata, hakaba hateretse indobo ntoya.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

Umusaruro w'amata uba ugomba guca kw' ikusanyirizo ugasuzumwa nimba ari muzima ukabona kugezwa kubaturage ibi n'ibicuba rero biyarimo aho bitegereje gukorerwa ubwo ubugenzuzi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka nini iri kugenda ifite irange ry'umweru.

Amata yo kunywa ari mu byiciro bitandukanye, hari ari mu dukarito ndetse n'ayo mu tubido tw'umweru. Yose ateretse ku meza, hari utuntu turi iruhande rwayo turi mu dushashi.

Ni akabati gateretsemo amacupa manini y'amazi yo kunywa, afite imifuniko y'ubururu. Iruhande rwayo hari icyo abantu bifashisha bajya guhaha, kiri mu ibara rya kaki.

Iyi ni inyubako bacururizamo amata, harimo umukobwa uri gusuka amata mu akajerekani yifashishije igihaga. Imbere ye hari utundi tubido tubiri.

Inzu nziza cyane z'amabara agiye atandukanye, harimo izifite amatafari gusa iziteye karabasasu hakurya hari izisakaje amabati y'umutuku umukara isize amarangi y'umweru hagati no hagati harimo ibiti mubigaragara rwose birasa neza biraryoshye.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Icyapa cyamamaza, uruhande rumwe rurimo amabara y'umuhondo, urundi rurimo ubururu n'umweru, handitsemo amagambo akubiyemo ubutumwa bw'ibyo bashaka kumenyekanisha.

Icyapa cyamamaza. Kiriho umugore wambaye neza ikoti, ndetse n'ishati y'umweru. Mu ntoki ze afitemo agapfunyika karimo utubara tw'igitaka ndetse n'umutuku.

Ni icyapa cyamamaza kiriho abantu babiri umwe muri bo ni umukobwa watangaye cyane, ufite terefone mu ntoki, akaba yambaye agakanzu k'umuhondo karimo utubara tw'umweru n'umukara.

Ni magambo ari mu rurimi rw'icyongereza bigaragara ko yoherejwe na sosiyete y'itumanaho. Igihe ugiye gukoresha ibijyanye n'uburyo bwo kwakira cyangwa kohereza amafaranga hifashishijwe telefoni.

Ni abantu bagera kuri bane bari mu nzu. Umwe muri bo ni umudamu yambaye umupira w'umuhondo, afite icyo kunywa mu ntoki. Bigaragara ko hari icyo ari kwerekana, abandi bakirangamiye bari kukireba.

Icyapa gitoya kiri ku nyubako ndende ya etage cyandikishijeho amagambo y'umutuku n'umukara ni ahakorerwa ivunjisha ry'amafaranga abagabo bari gutambuka imbere y'inyubako hirya gato umutaka w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni igiti kirekire kiri imbere y'izo nyubako.

Abagabo babiri bari kureba mu dupapuro turi ku meza, bose ibiganza byabo niho biri. Umuzungu yambaye umupira w'umukara naho undi yambaye umupira w'umweru, imbere yabo gato hari mudasobwa.

Ni urupapuro rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rukaba rugaragaza usora igihe asoreye ndetse, n'amafaranga asoze.

Iyi ni mudasobwa ifunguye iri kugaragaza mu nguni hejuru ko ari ku itariki icumi z'ukwa karindwi, bibiri na makumyabiri na gatatu, isa munani n'iminota makumyabiri n'umunani n'amasogonda cumi n'arindwi.

Inyandiko iri kurupapuro rw'umweru, icapishijwe amabara y'umukara. Hejuru mu nguni y'ibumoso, hatangizwa n'amagambo agira ati "icyitonderwa". Hasi ahagana iburyo, hariho izina rya nyirayo ndetse n'umukono we.

N'ibiganza bibiri bifite inoti mu ntoki zifashishwa mu gihugu cy'Ubuhinde, hashushanyijeho umugabo ugeze mu za bukuru wambaye amadarubindi, aya niyo yifashishwa mu kugura ibintu m'Ubuhinde.

Ni ameza akinirwaho urusimbi ruzwi nka kasino ateretseho ibiceri bitandukanye biri mu byiciro bitatu, bigiye bisumbana byose byanditseho icumi.

Ibiganza bibiri bitagaragaza isura ya nyirabyo, bifashe inote zitari inyarwanda mu ntoki. Kimwe kiriho impeta mu rutoki ahandi hari isaha.

Imodoka y'ibara ry'umukara itambuka mu muhanda, uruzitiro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, umuferege unyuramo amazi wugarijwe cyangwa se ufunzwe

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho umukara. Intoki zigaragara agace gato zifite ikaramu. Inoti ziri ku meza ndetse n'ibiceri bigiye bitandukanye.

Ni ibiganza bibiri bigaragaraho igice gito, bifashe inoti mu ntoki, biri kugenda bizibara. Ziri mu mabara atandukanye ndetse ziri no mu mibare idahuye.

Ni ibiganza bibiri bifashe inote zigera kuri zirindwi mu ntoki, zikaba zikoreshwa mu gihugu cy' ubuhinde, ziriho umugabo wambaye rinete, akaba iri imbere ari amafaranga magana atanu.

Ibiganza bibiri bifashe inote nyinshi zikoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde kurizo hariho umugabo ugeze mu za bukuru wambaye amadarubindi ndetse n'agapira k'umweru.

Ikiganza gifashe amabandari y'inote nyinshi z'amafaranga akoreshwa ku mugabane w'i Burayi. Hejuru hari kugaragara inote y'ibihumbi bibiri ipfunitswe n'akantu k'umweru.

Ni inote zifashishwa ku mugabane w'u burayi harimo; iya maganatanu, iya magana abiri, iy'ijana, iya mirongo itanu, iya makumyabiri, iy'icumi n'iyatanu zikaba rero zifashishwa ku mugabane w'i burayi.

Icyumba kiza biragaragara ko gitangirwamo serivise. Uruhande rwacyo rw'ibumoso ruteretseho ururabyo, igikuta kiri aho gisize irange ry'icyatsi, hari intebe y'umukara.

Umuryango ukorerwamo ibijyanye na serivise z'ivunjwa ry'amafaranga. Imbere yaho hicaye umuntu wambaye umupira w'umweru. Hariho ibyapa by'amabara atandukanye ndetse n'ubwoko bwinshi.

Inzu ifite umuryango w'umweru ufunguye. Hejuru yawo hariho icyapa kigira kiti murakaza neza mu biro by'ivunjisha. Mo imbere niho batangi izi serivisi.

Ni umuryango ufunguye hejuru yawo hariho icyapa cyerekana ko ari mu biro by'ivunjisha mo imbere hari urukuta rw'umweru ndetse ku rugi hari amabara y'umuhondo n'umukara.

Aha ni ku kibuga k'indege ariko aha ni aho bakirira abagiye cyangwa bavuye mu bihugu bitandukanye, izi ni intebe baba bicayemo.

Ni inzu ifite imiryango ibiri ifatanye umwe ukingukira iburyo, undi ugakingukira ibumoso. mu irangi ryayo ryo hanze handitsemo amagambo agaragaza ibikorerwamo aho.

Iyi ni inzu iriho ibyapa byinshi cyane byamamaza, imbere yayo hateretse ibidobo byinshi birimo indabyo, ifite urugi rw'umweru, hejuru yarwo rwanditseho amagambo atandukanye yamamaza.

Ni nyubako itanga serivise, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru wakira abamugana. Hari umugabo uje ateruye umwana, akaba yambaye rinete ndetse n'ipantaro y'umukara.

Icyapa cyamamaza kiriho ibintu bitandukanye, muribyo hariho amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Amerika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. bigaragara ko ibyo kigaragaza ari iby'ivunjisha.

Umuryango mwiza w'inzu y'ubucuruzi uragaragaza ibirahuri, hejuru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'amahanga, ashatse kuvuga mu kinyarwanda ko hari ibiro by'ivunjisha.

Ibikoresho byiza bitandukanye, bikozwe mu mbaho. Muri byo harimo utubati ndetse n'intebe. Harimo ameza, bigaragara ko ari ibijyanye n'igihe kigezweho.

Iyi ni inzu ifite amabara y'umweru, irimo intebe ndetse n'ameza byo mu ruriro, biri mu mabara y'umukara.

Akabati keza gakoze mu rubaho ahabanza hateretse icupa, ahakurikira hari igikombe cy'amabara y'umweru meza arimo ururabyo ndetse kagiye karimo n'ibindi bintu bitandukanye.

Ni intebe nziza ziteye hanze y'inzu iriho ibirahuri by'umukara, ziri mu mabara atandukanye, ameza y'umweru n'utundi twayo dutoya tugera muri dutatu, zifite imisego.

Uyu ni umuhanda w'ibito harimo imodoka ebyiri nini ubona ko zitwaye imizigo, imbere y'iyo modoka zirakomeje zirakurikirane irya hari ibiti.

Ni munzu nziza y'icyerekezo mucyumba cy'ururiro, hari intebe zikozwe mumbaho ndetse n'ameza akozwe mumbaho ariko arimo n'ibirahure, ndetse n'ibindi biyateretse hejuru.

Inzu irimo akabati kagezweho, keza, gakozwe mu mbaho. Uruhande rumwe rurafunguye. Ariko izindi zose zikaba zifunze. Ibikuta bito bigaragara by'iyi nzu birasa umweru.

Ni icyumba cyiza kigezweho, kirimo ibitanda bibiri, hagati muri byo harimo intebe ndetse n'ameza y'uruganiriro. Gishashemo amakaro y'umweru.

Mu rwogero ruri hejuru y'inyubako, rugaragiwe n'ibirabyo bibiri, hepfo yaho hari kugaragara ibiti ndetse n'ishyamba riri hepfo gatoya. Hari ibyuma bizengurutse uru rwogero

Ni inyubako nini cyane mu butambike, ikaba imbere yayo hari amazi agaragiwe n'utwuma dutangira abantu. Ifite ibirahure byinshi.

Ni inzu itanga serivisi zo kugaburira abayigana bakayishyura, hanze hayo hateyeho intebe ziteguye neza z'umweru, ndetse n'ameza ariho ibiribwa.

Inzu nziza y'amagorofa menshi yubakishije amatafari ya ruriba ndetse n'ibirahuri biyigize, imbere yayo hari urwogero ruri mu ibara ry'ubururu, hirya gato hari imitako.

Inzu nziza, ifite ubusitani imbere bunini yayo, bigaragara ko icumbikira abantu. Iri mu mabara y'umutuku y'umweru, imbere yayo hagiye harimo utuntu abantu baganiriramo.

Inkuru igaragaza abantu bari kwamamaza umukandida dogiteri Habineza furaka mu matora ya perezida w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni inyubako yakira abantu benshi imbere yayo hari intebe zigiye ziteye mu itsinda ry'intebe eshatu ndetse n'ameza ziri ku murongo ari nyinshi.

Abantu bahagaze ku muhanda, firigo irimo ibyo kunywa bitandukanye, icyapa kigaragaza ibiro bitanga ubufasha mu kuvunjisha amafaranga akubiyemo amadorari ndetse n'amayero.

Inzu nziza yiganjemo amabara y'ubururu, ifite urwogero ruri imbere yayo, ndetse hari n'indabyo ziteye imbere yayo zenda kumera nk'urutoki.

Iyi ni nyubako itangirwamo serivise aho ahakirirwa abantu hahagaze umudamu ndetse n'umugabo uri kuri mudasobwa, hari umugabo uri gutambuka abagana bigaragara ko aje kwaka serivise.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari mudasobwa ifite ibara ry'umukara n'umweru, muri iyo mudasobwa ari gutunga urutoki kuri serivisi zo ku irembo, ndetse hari n'ahandi harimo watsapu, ahandi harimo ibindi bintu bitandukanye.

Ni inzu y'ubucuruzi bigaragara ko icuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ifite inyingi nziza cyane ndetse no hejuru hayo hakaba hakoreshejwe imbaho zisa neza.

Ameza asize irange ry'umweru kuri ayo meza hateretse indobo ebyiri. Indobo ya mbere irimo amacapati, indobo ya kabiri amandazi, hari n'agasahane kandi hakabaho akantu ku rusenda n'ak'umunyu, hateretse imineke, hateretseho amagi munsi ya meza hari puberi ushobora gushyiramo imyanda, hari n'intebe kandi yumweru, irimo iragaragara, hari n'icyapa cy'umuhanda kirimo kiragaragara hari n'umuntu kandi uri mu muryango waho ngaho ushaka kubakenera ibyo kurya wagana aha hantu bakabikoherereza.

Ni umuryango winjira mu rupangu, imbere yawo hari utwapa dutatu, kamwe ni ak'ikigo cy'imari, kandi kari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, mu gihe imbere yayo hatagaragara neza kuko hari umwijima.

Abagabo babiri bicaye mu biro umwe yicaye mu ntebe imbere ye hari ameza ariho mudasobwa ebyiri undi afite icyo kunywa mu ntoki nawe ari kureba imbere ye.

Umuhanda w'ibitaka. Imodoka zimwe ziri iruhande rwawo, zigera muri enye, indi bigaragara ko iri gutambuka, iri mu ibara ry'umweru. Hakurya yawo, hari inzu z'ubucuruzi, ziriho ibyapa.

Ni ikigo gitanga serivise z'ubwishingizi. Kiri kugaragara mu mabara y'ubururu n'umweru, handitsemo amagambo y'rurimi rw'amahanga; atanga ikaze ku bantu bose bakigana, ubona ko cyiteguye.

Ni urukuta ruriho amabara y'icyatsi hejuru yarwo hariho idirishya ririho icyapa kiriho umwana w'umukobwa ufite terefone yashyize ku rutugu ,harimo kandi n'ahaca akayaga kinjira mu nzu hejuru y'iryo dirishya.

Abagabo batatu bahagararanye mu nzu. Umwe muri bo amaboko ye yombi yayakojeje ku meza, akaba yambaye ishati y'umweru. Undi arahagaze, ari gutunga urutoki mugenzi we.

Igorofa igeretse kabiri ubona ko ari nshyashya, ifite amarange yera ahagana mu gisenge ndetse no ku bikuta byayo, hanze yayo hari imbuga aho imodoka ziparika.

Umudamu uri kumwenyura, ateze igitambaro mu mutwe areba imbere, afite telefone mu biganza bye bibiri, intoki zifasheho ariko amaso ntabwo ari kuyirebamo.

Ni ibiro birimo abantu bagera kuri batanu, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, bose bakaba bambaye udupfukamunwa, umwe afite ikaramu n'urupapuro ari kwandika.

Abadamu babiri bari mu isoko umwe numucuruzi, undi yaje guhaha hari imbuto zirimo imyembe, ipapayi, afite akambararaje k'umukara undi ari kumushyiramo ibyo yaje kugura.

Mu isoko rusange rihahiramo abantu batandukanye ibicuruzwa by'amoko yose imbuto, imboga, inyanya, amaronji, amananasi n'ibindi byinshi.

Inyubako igeretse gatatu, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, imbere yayo hari abantu benshi, barimo abambaye imipira y'imihondo, imyeru, abagore, ndetse n'abagabo.

Ni inzu ndende cyane, yaba mu butambike ndetse no mu burebure. Ni iy'ubucuruzi! Ikorerwamo ibikorwa byinshi. Imbere yayo hari abaturage, ndetse hahagaze n'amamodoka ari ku murongo.

Umuhanda nyabagendwa uri kugaragaramo ipikipiki ihetse umugenzi, iruhande rwawo hari inzu ziri kumurongo zikorerwamo ubucuruzi ndetse hafi aho haparitse amamodoka atandukanye

Ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa biteza imbere abaturage, aha hari ibitandukanye birimo imineke ku maseri, ndetse n'inyanya ziri mu gitebo, ibase irimo amashaza isa ubururu.

Umucuruzi w'imbuto hafi ye hari n'abandi bantu afite agakoresho mu ntoki yifashisha mu kwishyuza, yambaye umupira w'umutuku ari guhererekanya ibicuruzwa n'uwambaye ishati y'umukara uri guseka.

N'inzu icuruza ibikoresho byiganjemo ibya kinyafurika imitako n'ibindi bitandukanye, hari inkoko iriho ibikoresho byo mu gikoni nk'imyuko, munsi gato hagaragaramo ingoma.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Ni isoko ririmo ibicuruzwa byiza, biteye amabengeza. Hagaragara imineke, inyanya, ibibiringanya, n'ibindi. Umudamu ukenyeye igitenge, ndetse n'undi uri hirya ye wambaye atyo.

Iduka ricuruza imyenda y'abadamu izwi nk'ibitenge. Harimo byinshi bimanitse kumurongo bigiye bifite amabara atandukanye. Hari umugabo uri kugaragara igice cyo hejuru, wifashe kumazuru.

Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari kuramukanya n'umucamanza wambaye ingofero irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'umukara.

Akazu gato, gacuruza serivise z'ibijyanye n'itumanaho. Kari mu mabara y'umuhondo, amadirishya yako yose arazamuye. Ariko hejuru gafite ubururu butoya.

Abagabo babiri barimo baganira. Umwe yicaye mu kinyabiziga, yamanuye ikirahure, arebana na mugenzi we wambaye umupira w'umuhondo, ku kiganza cy'ibumoso hariho impeta, ndetse n'isaha ku kaboko.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Ni icyapa cya emutiyene kigaragaza uburyo bugezweho bwo kwishyura hakoreshejwe telefone buzwi nka mobayiro mani, ubu uburyo bukoreshwa mu kugura no kwishyura ibikoresho bitandukanye.

Umugabo wicaye ku igare uri kumwenyura, yambaye umupira w'umuhondo, n'undi w'umukara urimo imbere. Yamanitse ikiganza kimwe n'urutoki. Inyuma ye hari abandi bantu benshi bicaye mu mutaka.

Ni akazu gatoya kari mu mabara y'umuhondo ka sosiyete icuruza ibijyanye n'itumanaho. Harimo umugabo wicaye bigaragara ko ategereje kwakira abamugana, imbere ye harambitse ibitabo.

Ni umutaka w'umukozi wa emutiyene utanga serivisi zirimo kugurisha amanite, kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, ukaba uri mu ibara ry'umuhondo nkuko n'ijire yambaye isa.

Aka ni akazu gato gatangirwamo serivisi z'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, imbere yako harigutambuka umugabo wambaye ishati y'icyatsi, hirya ye hari undi wambaye umupira w'umuhondo muri ako kazu harimo umukobwa.

Ni icyapa cyamamaza ibyuma byifashisha mu gukonjesha ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye, iruhande rwacyo hariho uducupa tubiri rimwe riberamye, n'irindi riryamye hari kandi ibindi birango biri kuri icyo cyapa.

Icyapa cyamamaza kigaragaraho mudasobwa agace gato, amakaramu abiri ndetse na telefone ngendanwa imwe, ishushanyijeho urukweto, imyenda ndetse n'umuntu.

Ni abantu babiri bari guhererekanya ibicuruzwa, umudamu ari kwakira ibizanywe n'umumotari utanga serivisi yo kugemura ibintu yifashishije ipikipiki, mu gapira ke k'umweru n.amarinete ari kumwenyura.

Amagaru atagaragara yose arimo ibirenge byambaye inkweto zifunguye, bigaragara ko nyirayo yegamye k'utwuma tw'umukara ndetse akaba ahagaze.

Icyapa cyamamaza. Kiriho uduce dutandukanye. Hari amaguru yambaye inkwoto zifunguye. Hari ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi, ndetse n'agakote.

Icyapa cyamamaza, kiriho nimero za telefoni, ndetse gishushanyijeho akamodoka kari mu ibara ry'umutuku, hariho abagabo babiri, umwe muri bo uteruye igikarito.

Icyapa cyamamaza kiriho ibiryo byiza biteye amabengeza ariko nanone kirarangwa n'amagambo yanditse mu rurimi rw'amahanga asobanura neza ibyo cyerekana.

Ni ipikipiki iriho agasanduku inyuma kanditseho vuba vuba, iyi izwiho kujyana ibicuruza ikabigeza mu ngo ku babikeneye, uyitwara ntayicayeho, arahagaze agaragara igice gito.

Inzu nziza y'ikerekezo y'ubatswe ku buryo bugezweho. Ibikuta byayo bisise amarange y'umweru ndetse harimo n'udutako duto. Uruganiriro rwayo rurimo intebe n'ameza byiza bigezweho.

Iyi ni inzu iherereye i Kigali mu Rwanda nkuko biri kugaragara ikaba ishashemwo amakaro azwi nk'igicu mu nguni yayo mu mfuruka hari kwakamo itara.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho aho uyisangana aho kubika ibikoresho byo mu gikoni n'ibindi bitandukanye ifite igisenge cy'umweru kirimo itara riri kwaka.

Ni urugi rwiza rw'imbaho, bigaragara ko ari icyumba cy'ubwiherero bugezweho, muri cyo harimo idirishya rigaragaza imyenge inyuma yaryo.

Inzu nziza y'icyerekezo ifite irangi ry'umweru dede irimo imitako itandukanye, yaba iyometse ku nkuta ndetse n'iteretse ku tu meza.

Icyumba cyo kuryamamo gishashe neza, kiriho amashuka, imisego ibiri, igitanda n'isume iri ku buriri mu nzu irimo amarido.

Inzu nziza zijyanye n'ikerekezo zigeretse rimwe zifite imbuga yisanzuye ndetse zisakaye neza hagati muri zo hari urukuta ruzitandukanya.

Iyi foto iragaragaza ahantu bacuruzwa hari abantu bari guhaha hari aho ubu abantu bishimye aho umuntu afite ibyagiye kwa mu ntoki hari naho umuntu atishimye.

Ni icyumba cyiza, cyubatswe mu buryo bugezweho, gifite ibikoresho bya kijyambere. Irido rirerire ry'umukara, igitanda gishashe neza, ariko ntawe ukiryamyeho.

Inzu nziza nini yisanzuye y'icyerekezo, irimo abantu babiri barimo umuzungu ndetse n'umudamu w'umwirabura. Ifite intebe nziza zijyanye n'icyerekezo.

Inzu ifite imbuga nini. Igeretse rimwe, ni nziza. Iragaragaza imiturire igezweho. Hari urupangu rwayo rufite amatafari ahiye.

Imbuga y'inzu nziza, yubatswe ku buryo bugezweho, urupangu rwayo rukorotirije n'amatafari ahiye, naho ibaraza ryayo rifashwe n'inkingi izengurutswe n'utwuma tw'umukara.

Uruganiriro rw'inzu nziza, igisenge cyayo kirasa umweru, harimo ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi, yaba ibibika ibiribwa cyangwa ibinyobwa bikabikonjesha, ndetse n'ibibishyushya.

Inzu nyinshi zitandukanye, nziza, zigezweho. Imbere yazo hari ubusitani, ndetse mu ibaraza hari guturukamo umugabo wambaye ishati ndetse uri kugenda.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Umugabo uhagaze wambaye ikoti, inyuma ye hari inyubako igeretse rimwe, ifite utubara tw'umuhondo, utw'ubururu, imiryango y'ibirahure binini.

Inzu igaragaza igice cyo ku ruhande, idirishya rifite ibirahure by'umukara, ndetse n'utwuma dusize icyatsi. Ifite amatafari ahiye, inkingi iri kugaragara igice gito.

Inzu nziza y'icyerekezo ifite igisenge cy'amabati atukura ndetse isize irangi ryicyatsi harimo akeru gakeya ,ibirahure byayo ni umukara .Urupangu rwiza rusudiriye mu byuma.

Ni inzu igeretse rimwe. Ubonako ari nziza ijyanye n'ikerekezo u Rwanda rwihaye rwo kuzigama ubutaha aho w'ubaka hatoya ariko ukubaka ibinini.

Inzu nziza igezweho igeretse kabiri. Imiryango yayo ikoze mu mbaho. Ifite ibirahuri ndetse izengurutswe n'utwuma dutuma abari hejuru batagwa hasi.

Inyubako nziza yubatswe muburyo bugezweho. Ifite imbuga nini, inkingi ebyiri ziri mu ibaraza, igisenge cyayo gifite amabati y'umukara, iruhande hari ikigega.

Igikuta cy'umweru giteyeho insakazamashusho. Insinga n'ibindi bikoresho biyifasha kuyasakaza biteretse ku meza. N'aho hirya gato hari ahagenewe gucomekwa.

Ni inzu ebyiri ziganjemo amabara y'ubururu n'umweru, imwe muri zo niyo igaragara cyane. Zifite imbuga yitegeye, amadirishya meza, ndetse n'utwuma tuyizengurutse imbere.

Uyu ni umuryango w'inzu ikodeshwa hakaba handitseho ko ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu ndetse ni icyumba gifite urubaraza.

Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari kuramukanya n'umucamanza wambaye ingofero irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'umukara.

Igice cyimwe cy'iguriro ricuruza ibinyobwa bitandukanye, kiri kugaragaza ibiri mu mata apfunyitse mu dushashi, ndetse n' ibinyobwa bituruka ku mbuto, hari umugabo wegamye hafi aho wambaye iby'umukara.

Isoko rya kijyambere rigezweho riri mu nyubako yubatse neza, hari kugaragaramo imineke, amaronji ndetse n'umudamu uri kubicuruza. Bigiye biri ku murongo.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi; irimo abantu batatu barimo umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara, wambaye n'agapfukamunwa. Ari kumwe n'umugabo wambaye agapira gatukura, karimo utubara tw'umweru.

Umukobwa uhagaze, ishakoshi iri ku rutugu, ikiganza ke k'ibumoso gifite telefone, ikindi k'iburyo kiri gukora muri mudasobwa iri hejuru, imbere ye hateretse inanasi.

Ni iguriro ricuruza ibikoresho by'imitako, hakaba harimo ibitandukanye mu mabara menshi, hahagaze umudamu wambaye iby'umukara, akaba agaragara nk'aho ari we ucuruza.

Ahantu hatangirwa serivisi zisabwa na benshi, hakunze kugaragara urujya n'uruza rw'abantu. Haragaragara umukobwa wifashe mu mayunguyungu, ndetse ikiganza kimwe kiri ku meza.

Ni inzu ikorerwamo ubucuruzi. Hagaragara umudamu uje kwaka serivise, ndetse umwakira ari kumwe n'undi mo mo imbere. Ibyo batanga biri inyuma, ndetse hari icyo agiye gukoraho.

Mu iguriro rusange hagati y'aho abantu baca ku makaro hari kugenda umukobwa uri guhaha wambaye agasengeri k'umutuku afite ibyo yamaze gutoranya mu ntoki.

Inyubako yubatswe ku buryo bugezweho, ishobora gukorerwamo ibikorwa bitandukanye: yaba ubucuruzi bw'imyenda, abakora amasalo, ndetse n'abandi bose bakora ibindi bikorwa.

Umudamu wicaye mu biro uri kureba imbere ye. Yambaye igitenge kirimo amabara atukura, isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse n'impete iri ku kiganza k'iburyo.

Abaganga bari mu kazi ko kuvura imbere yabo hicaye umudamu wambaye igitenge, nk'uko bisanzwe bambaye imyenda yabo ibaranga y'umweru.

Ni icyapa cyamamaza kiriho amagambo avuga ngo ejo heza ubwizigame bw'igihe kirekire. Hariho ifoto igaragaza igice gito cy'umudamu, uteze igitambaro mumutwe.

Abadamu babiri bafite amakarita mu ntoki, umwe ateze igitambaro mu mutwe yambaye akantu k'umweru, undi akenyeye igitenge, ibiganza bye byombi bifashe kuri yo.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

umwana utagaragara igice cyo hejuru, yambaye ishati ndetse n'ikabutura, afite ikarita mu ntoki y'ubwisungane mu kwivuza akaba yicaye ku bibero by'undi muntu utagaragara.

Icyapa cyamamaza uruhande rumwe rwo hejuru rwanditseho ngo ejo heza, urundi narwo nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye n'ejo heza wowe se, hariho umudamu ufite igitambaro mu mutwe wambaye igitenge.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza. Igaragaza ko ari iyo mu karere ka Gasabo, hariho ifoto y'umwana muto wambaye ishati y'umweru ikaba irimo utuzu tw'umukara. Ikarita akaba ari umuhondo.

Iguriro rinini ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, yaba ibisuguti, ibyokurya ndetse n'ibyokunywa byiza. Ifite igisenge kirekire cyiganjemo ibara ry'umweru.

Mu iguriro rusange rigurisha ibikoresho byiganjemo iby'isuku mu kayira gacamo abantu hari amakaro asa neza, naho mu mpande hagiye hari ibikoresho bigurishwa bitandukanye.

Ni iguriro rusange ricuruza ibinyobwa yaba ibikozwe mu mbuto ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo umudamu ukoze kuri kimwe muri byo utagaragaza isura ye ariko wambaye umupira w'umuhondo.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Iri n'iguriro rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibinyobwa byiganjemo amata hari umugabo urimo uterura bimwe muri ibyo bicuruzwa ndetse inyuma ye hari n'abandi babiri bahagaze.

Ni iguriro urebera hejuru yaryo, ukabona ririmo ibicuruzwa byinshi cyane, hagati hari utuyira abantu bacamo, bagenda bahitamo ibyo bashimye akaba aribyo batwara. Higanjemo ibyo kunywa.

Iduka rinini ricuruza ibinyobwa bitandukanye, bidasembuye. Bigiye bipanze hakurikijwe ibyiciro byabyo ndetse n'ubwoko. Biri mu mabara atandukanye, byakozwe mu mbuto nziza.

Aha ni mu iguriro rusange turi kubonamo umugabo wahashye ibicuruzwa bitandukanye, iruhande rwe hari ibicuruzwa bye bitandukanye ndetse inyuma hari abantu batatu nabo ubona ko bari guhaha.

Iguriro rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye hari umugabo uri kureba muri telefone wambaye ryiza ry'umukara n'imbere harimo shati y'umweru.

Iguriro rusange ricuruza ibintu bitandukanye, imbere hari kugaragara amata yo mugikombe y'ifu, hari abagore batatu bari muri iri guriro bose bambaye udupfukamunwa.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye ndetse ukaba ufite n'imirongo ugiye ushushanyijemo hari umurongo w'umweru urombereje uri k'uruhande ndetse n'iyindi iri hagati icagaguwe irimo ibara ry'umuhondo ikaba ifite n'amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse na kamera zishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Iguriro rusange ririmo ibiribwa bitandukanye. Mu mpande zayo hagiye harimo ibicuruzwa, aho umuntu atambuka agenda ahitamo icyo ashimye, akakijyana, akacyishyura, maze akagitwara iwe. Harimo umuntu hagati wamaze kugira ibyo ahitamo.

Iguriro rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibiribwa byifashishwa mu gukora amasuku, bigiye bipanze mu buryo butandukanye.

iri ni iguriro rusange rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye turi kubona umukobwa wambaye umupira w'imbeho ariko yawudegaje, akaba arimo ahaha ibicuruzwa bitandukanye.